Amahugurwa y'urubyiruko, arimo igitsina gore n'igitsina gabo, bicaye bakurikiye umuntu uri kubigisha, hari n'umukobwa uhagaze ufite mikoro uri kubaha ikiganiro.

Inama y'abayobozi batandukanye bicaye muri sale barimo abagore n'abagabo, imbere yabo hahagaze umugore uri kubigisha na porojegiteri baporojegise imbere, ibyo ari kubabwira bakajya babireba.

Amahugurwa y'abayobozi batandukanye, harimo n'inzego z'umutekano, baganirizwa na madamu Perezida Paul Kagame.

Inteko rusange umunyamuryango wa FPR Inkotanyi arimo yigisha abaturage ibyiza byaFPR Inkotanyi umuryango w'abanyarwanda ubu wishyize hamwe.

Umubyeyi w'umumama wahagaze imbere y'abantu, ufashe mikoro uri kubabwira, inyuma ye hari ishusho yanditseho bikore mu isibo, iriho indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.

Inama yahuje abayobozi batandukanye bari kuganirizwa n'umuyobozi w'umugabo mu nzu ya Nyagatare imvesitimenti foramu.

Abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, bahagaze imbere y'abandi, harimo abambaye umwere n'umukara, harimo abambaye umutuku n'umweru, bahagaze kuri tapi, inyuma yabo hari ishusho yanditseho ibijyanye n'iby'uyu muryango wa FPR.

Inama yahuje abayobozi batandukanye barimo n'abasirikare bari kuganirizwa n'umupolisi ufashe mu mikoro buri wese afite amazi imbere ye ari kunywa.

Umubyeyi w'umumama ufite mikoro mu ntoki uri kuganiriza bagenzi be ku mibereho myiza y'abaturage, hari umugabo umwe uri kureba inyuma waparitse igare ku rugo rw'imiyenzi.

Ibikoresho bya Kinyarwanda bikozwe mu biti bakoresha mu gucunda, amata biteretse ku mukeka urambitse ku meza.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo, harimo abakobwa n'abasore, bari mu myiyereko y'amarushanwa imbere y'abayobozi, bamwe bari gubyina bagana iburyo, abandi bakabyira ibumaso.

Ishusho igaragaza imikino ya kera, harimo umuntu uri kurega umuheto, ugiye kurekura umwambi, ndetse n'undi umuhagaze ihande wogoshe isunzu, rimeze nk'iry'Abami ba kera.

Abakobwa bateze amaboko bari kubyina, impande yabo hari abantu bari kujya kwarura kuri selifu savisi, bari kubyina mu bu bukwe, inyuma yabo hari ameza ateretseho indabo, bari kubyina bagana abageni bari.

Intoki zifashe inkono y'itabi ikoreshwa n'abakecuru n'abasaza bashyiramo igikamba bakarasiraraho umwambi bagatumura bikunda gukorwa n'abantu bashaje.

Umusore wambaye neza ahagaze imbere y'inka nyinshi z'inyambo arazirongoye ari kugenda zikamukurikira; inyuma yazo hari urwuri zari ziri kurishamo; rurimo ibiti birebire ndetse n'ibyatsi byo hasi bigufi.

Abasore n'abakobwa bari mu myiyereko y'imbyino gakondo iyo twita imbyino za kinyarwanda, abakobwa bateze amaboko n'abasore bari guca umugara.

Umuvure ukunda gukoreshwa mu cyaro bengeramo ibitoki bagakuramo umutobe bagakoramo n'inzoga uteretse imbere y'imikenke bakunda kuzirikisha ingobyi.

Inyubako iriho imashini y'umuriro, ndetse n'ahantu hubakiye hari imirasire itanga umuriro, iyo undi wabuze, igatanga umuriro ukomoka ku izubako.

Abatekinisiye b'umuriro w'amashanyarazi bakora muri REG bari hejuru y'ipoto babiri, umwe ari iburyo undi ari ibumoso bari kwesitara insinga zitwara umuriro.

Imiyoboro y'amashanyarazi iteganye ari itatu, munsi yayo hari inzu y'umuturage, haciyemo umuhanda uri kugendamo abantu babiri, hejuru y'umuhanda hatuye abantu, inyuma ni urutoki, hirya hari ishyamba no hakurya hari umusozi urimo ishyamba n'abaturage bahatuye.

Inyubako y'urugomero rw'amashanyarazi isize irangi ry'umuhondo, imbere yayo hashinze ipoto ririho urusinga rutwara umuriro, hanze yaho hateretse kizimyamwoto, impande yayo hari akadobo.

Abatekinisiye ba REG babiri barahagaze harimo umukobwa n'umuhungu bambaye amajiri atandukanye, umwe yambaye iy'icyatsi, undi yambaye iy'umutuku, bari impande y'imashini y'umuriro undi yicaye ku mashini.

Kashi pawa imanitse kuru rukuta, irimo amazeru abiri, rimwe karindwi gatanu, iriri kwaka agatara k'umutuku, ifite imibare yose igaragara.

Inyubako ya gira ubuzima, ihagazeho abayobozi batandukanye imbere yayo, barimo n'abazungu, bose bambaye ingofero, bari kumwe n'umumama, ubahugura yambaye itaburiya y'umweru, bari imbere y'igiti cy'umwembe.

Inzu y'ubuyobozi ya Girubuzima, iriho ibyapa byinshi bisobanura kuri Girubuzima, hahuriye abaturage batandukanye bari kuganirizwa n'abayobozi babo ku bijyanye na Girubuzima.

Inyubako y'ubuyobozi yubatse mu buryo bwa etaje ifite hasi aho abantu baca baturage batambuka no hejuru aho baca bajya mu nyubako yo hejuru muri etaje.

Ibagiro rya memuri rya kijyambere rifite isuku ryubakiye neza kwirinda kuba hari ibintu byakwanduza inyama hari abantu baje kugura...

Inzu ya gira ubuzima ifite kandagira ukarabe imbere yayo, hari umubyeyi wahagannye wambaye ibitenge afite isakoshi mu ntoki, mu imbere mu nzu hari abaturage baje mu nama.

Inyubako y'ubuyobozi iparitseho imodoka imbere na moto nyinshi, hari n'abaturage baje gushaka serivisi ku buyobozi, inzu ybatse neza cyane ifite isuku, iteye amapave imbere.

Umupaka utandukanya u Rwanda na Uganda ufite inyubako zirimo ibiti, inakikijwe n'ishyamba, inyuma yayo hari ishyamba rinini, ku mpande hari ibiti byumye.

Abaturage bari kurahira, bahagaze imbere y'Akagari kari mu Murenge wa Karangazi, bafite n'ibipapuro mu ntoki bari kurahira, impande yabo bahagaritse imodoka y'ubuyobozi, hephfo ku Kagari hicaye abantu.

Inzu y'Urwibutso rwa Nyagatare yubakiye neza, irimo abaturage baje yo, hari n'abayobozi, ifiteho amadarapo abiri: iry'u Rwanda n'irya Uganda.

Amahugurwa yiganjemo urubyiruko rw'abana bato ba segoderi na ba kaminuza ndetse n'ababyeyi bakuru bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu.

Urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri bose bambaye imipira isa, bafashe na buji mu ntoki, bagiye kwibuka, harimo abambaye furari, n'abatazambaye, bagiye ku rwibutso nijoro, bagiye kwibuka.

Hari abayobozi b'inzego z'umutekano harimo abasirikare, harimo n'abayobozi basanzwe bahagaze mu nyubako bari gukora inama.

Abagabo babiri hari umwe w'umunyarwanda n'undi b'umuzungu, bari inyuma y'ibido, bari gukata umutako, basa n'abafungura cyangwa bugurura ngo abandi batambuke.

Abayobozi bahagaze mu nzira y'igitaka ikikijwe n'urutoki ruhinzemo ikawa, harimo umugabo uhagaze afite inkoni, abandi babiri bamwegereye hakurikiyeho umupolisi, ku ruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abaturage bagiye mu nama, hari amatete abiri yicayemo abayobozi, ariko abaturage bo bahagaze hanze n'izuba riri kubica.

Abaturage baje mu nama bicaye hasi; izuba rya bishe bamwe bipfutse mu mutwe, abandi bazanye imitata bitwikiriye; biganjemo abagabo, abagore bafite n'abana bari imbere yishyamba.

Amahugurwa y'abayobozi batandukanye, bicaye bari kuganira ku buzima bwa Afurika muri rusange, buri wese afite amazi imbere ye, bafite n'amakayi n'amakaramu bari kujya bandika.

Abaturage benshi bari mu muhanda bafashe ishusho yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu barangajwe imbere n'abasirikare ndetse n'abandi bayobozi batandukanye n'izindi nzego z'umutekano n'imodoka y'amburance inyuma yabo ishobora gufasha umuntu wagira ikibazo cy'ihungabana.

Kaburimbo iciyemo imirongo y'umuhondo aho abantu bambukira b'abanyamaguru, ikikijwe n'ibiti birebire bifite indabo z'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho icyapa cyerekana inzira y'abagenzi, ikikijwe n'ibiti byo mu rwuri, ku muhanda hari amapoto ariho amatara.

Gare iparitsemo imodoka imwe ya difera hari gutambukamo abagenzi abandi bicaye mu kazu bategereje imodoka, iyi modoka irimo abagenzi bakeya iraparitse itegereje abandi bagenzi.

Icyapa kiri hejuru y'umuhanda cyanditseho EN ijana na mirongo itanu na kabiri kiri hejuru ya kaburimbo, munsi ya kaburimbo hari amazu yubakishije amabati ndetse anasakaje amabati, hejuru hari ibiti birimo n'urutoki.

Umushoferi wa lifani, ari kugenda muri kaburimbo atwaye lifani irimo ubusa, munsi y'umuhanda hari amazu arimo iyo babetingiramo, hari inzu y'bucuruzicuruzi icuruza za kanari, hari kenkayori.

Umumotari uhetse umugenzi ari inyuma y'imodoka ya hoho ihagazemo umugabo wambaye umutuku n'umukara, inyuma yayo hari abadamu babiri bari mu nzira y'ababagenzi, imbere yimodoka hari umutaka w'umu ajenti ndetse bari muri kaburimbo imvura yaguye.

Inama y'abaturage bari kumwe n'inzego z'umutekano abapolisi n'abasirikare bamwe bari imbere bari kumwe n'umupolisi ubona ko bafite morale bari kubyina.

Inama y'abayobozi n'abaturage bari mu kibuga, harimo abitwikiriye imitaka, harimo abana batoya bari gukina, imbere yabo hari abayobozi bari gutera intambwe bagana imbere, harimo abagabo babiri n'abagore babiri.

Abaturage bari mu nama basoje umuganda. Imbere yabo hahagaze umuyobozi wabo, wambaye umupira uriho ishusho ya Perezida Paul Kagame. Bari munsi y'igiti ntazuba riri kubageraho.

Umuturage w'igitsina gore yambaye bote, yunamye mu byatsi bya pasiparume ari gukuramo amababi y'ibiti yahungukiyemo, impande y'umuhanda.

Umuganda rusange w'urubyiruko, wiganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, bamwe bafite amasuka bari gukurura itaka, abandi bari gutoragura amabuye, imbere yabo hari inzu z'abatishoboye ,bagiye gutera igishahuro.

umuganda wahuje abaturage n'abayobozi, harimo n'inzego z'umutekano, umusirikare n'umupolisi, bari guhinga bakora umuhanda, imbere y'inzu y'umuturage.

Abantu baje kureba umupira, harimo ba mama ndetse n'aba papa, harimo n'umupolisi ushinzwe umutekano, imbere yabo hari abana b'abasore babiri, umwe ari kuri telefone undi akurikiye umupira yarangaye, yanatangaye.

abakinnyi bari muri stade barimo gukina umupira w'amaguru. Harimo amakipe abiri atandukanye, harimo iyambaye umukara n'ubururu, harimo n'iyambaye umweru na orange. Abambaye umukara n'ubururu nibo bafite umupira bari kujya gutsinda mu izamu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bane n'umuzamu, harimo amakipe abiri ahanganye harimo ikipe yambaye umuhondo, hari n'ikipe yambaye ubururu, umukinnyi wambaye ubururu niwe ufite baro ari gushaka gutsinda, uw'umuhondo na we ari gushaka gusubiza umupira inyuma.

Abafana benshi bicaye mu myanya yicaramo abantu baje kureba umupira yiganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, bicaye bareba muri sItade umupira.

Sitade ya Nyagatare irimo abakinnyi, umutoza ndetse n'umugore waje muri siporo, irimo n'abasore babiri bari gutambuka ku ruhande.

Sitade irimo abantu benshi bambaye imyenda bakinana, babiri bafashe ishusho iriho amarushanwa y'Umurenge Kagame kapu, bahagararanye n'umusirikare umwe n'umupolisi umwe n'Abayobozi bo mu Karere.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye harimo igitsina gore n'igitsina gabo bari muri siporo ya nijoro babyishimiye kandi babikunze uretse mu myitozo igorora umubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umurenge Kagame Cup mu ntara y'Iburasirazuba Akarere ka Nyagatare, uko imirenge izagenda ihura bagakina tukaza kureba iyatsinze igahembwa.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi batatu bari kwitoza, bari kumwe n'umutoza wabo, ari kujya aberekera uko babikora, hari ugiye gutsinda igitego mu izamu.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari kugenda mu muhanda, inyuma yaho hari abantu bicaye baje kureba umupira, haparitse na moto imwe, abagabo babiri bari kuganira umwe ni nyiri iyo moto.

Abayobozi bicaye hamwe mu mwanya w'abafana baje kureba umupira bari kumwe n'akana gatoya nako kaje kureba umupira kari kumwe na papa wako, umwe yashimishijwe n'umupira afite n'amazi imbere ye ari kujya asomaho.

Sitade ya Nyagatare ihagazemo abantu babiri; umwe yambaye imyenda y'umukara iriho ubururu, undi yambaye umukara n'umuhondo, bose bari kureba imbere begera abakinnyi.

Sitade ya nyagatare irimo abakinnyi n'abatoza, impande yabo hahagaze umusekiriti urinda iyi sitade, haparitsemo na moto, hejuru hicara abafana hicayemo umuntu umwe, ntago umupira wari watangira.

Imodoka ya polisi iri muri kaburimbo iri kwerekeza imbere, inyuma yayo hari abaturage benshi bari muri siporo ya nijoro, ku ruhande hari icyapa cya bare gishushanyijeho inzoga ya skol.

Siporo yiganjemo igitsina gabo n'igitsina gore bari inyuma ya sitade bateze amaboko bari gusa nk'abasimbuka umugozi, inyuma muri sitade harimo abantu bari gukora siporo zo hasi.

Abakinnyi bahagaze muri sitade bahagararanye n'umutoza wabo, impande yabo hahagaze umusirikare, hejuru hicara abafana nta muntu urimo mu tuzu twicaraho abasimbura, hicayemo abantu baje kuhareba.

Ikibuga cy'umupira gihagazemo abayobozi babiri, uw'umugabo wambaye umweru n'umukara, bafite n'umupira w'amaguru, imbere ye ari kubereka ko bagiye gutangira n'undi umuhagaze inyuma wambaye umukara hose.

Imodoka y'apolisi iri mu muhanda, yacanye itara rirerire ry'umutuku, rigaragaza amakuba ari inyuma.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga harimo abambaye ubururu n'umukara, harimo abambaye umutuku n'umukara harimo ufite umupira, inyuma yabo haparitse umunyonzi uhetse amajerekani ku igare.

Abakinnyi bahagaze muri sitade barimo amakipe abiri, iyambaye umuhondo, iyambaye umukara n'ubururu, bari kumwe n'abatoza babo, ku ruhande hari amazu atuwemo n'abantu n'ay'ubucuruzi.

Kaburimbo irimo imodoka y'umukara iri kugenda. Imbere yayo hari umuntu utwaye igare, kuruhande hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe na pasiparome, kuruhande rwa ruguru n'urwo hepfo muri uyu muhanda, hari gucamo abantu babiri umukobwa n'umuhungu.

Kaburimbo itari gucamo imodoka nta kinyabiziga kirimo, ku ruhande rwayo mu nzira y'abagenzi harimo umukobwa uri gutambuka uri kureba muri telefone, impande ye hari akarima gahinzemo pasiparume, inyuma yako hari amazu.

Umusaza uri kuri moto iri kugenda mu muhanda utari kaburimbo, umuhanda wamabuye, impande ye hari amaduka aparitseho moto zo mu bwoko bumwe za Leta, inyuma ye hari umunyonzi utwaye igitoki, afite n'umuntu uri kumusunikira.

Kaburimbo iri impande y'ikibuga bigishirizamo imodoka, ikibuga kirimo imodoka nyinshi zikoreshwa n'abanyeshuri hahagazemo n'abantu bari kuganira.

Imodoka zipakira kuri Brarirwa, zihagaze ku muhanda, imwe iri hejuru y'umuhanda, indi iri mu muhanda hagazeho abantu babiri bamaze gupakira, hari n'indi itari yatangira gupakira.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu, imbere yaryo hakorera umu ajenti wa Eyateli tigo, imbere hari abagabo babiri bari kugenda baganira, iryo duka ricuruza n'amatelefone, hejuru yaryo handitse icyapa cya EN cumi na gatandatu.

Umumotari uri kugenda muri kaburimbo uhetse amajerekani kuri moto, ari kugenda agana ibumoso, impande ye hari ibiti birebire, inyuma yabyo hari ikibuga.

Kaburimbo iri gucamo imodoka, ruguru y'umuhanda hari urwuri ruri kugendamo abantu babiri, umwe ari kumanuka undi azamuka, inyuma y'iyo modoka ku muhanda wo hepfo hari amazu menshi.